Abantu bakoraniye hamwe, bambaye amajiri atukura, abantu bakunze kwambara nayaari majiri nk'aya, aba abakora mu kigo gishinzwe gutanga ubutabazi cyangwa se abantu bakura mu buvuzi, bari mu nama, barimo kugenda bagezwaho serivisi zigiye zitandukanye, ndetse no guhabwa amahugurwa.

Ibikoresho byo kwa muganga bishobora gutanga umwuka mu gihe umuntu ari guhumeka nabi, akenshi ibgi babyita bomboni. Mu gihe umuntu ari kuzihumekeraho umubiri we uba wananiwe cyane cyane ibihaha, ibi ibyuma bikamufasha guhumeka, mu gihe umubiri we utari gukora neza.

Abagabo bagera kuri bane bari mu nama, ku meza harunze uducupa tw'amazi bamwe umwe muri bo bambaye karuvati itukura arimo kugenda abagezaho ikiganiro kandi yambaye n'ingofero igaragaza umuryango kuruwa ruje umuryango wita ku mbabare.

Ivuriro aho harimo intebe zigiye zitandukanye harimo n'ameza hahagazemo n'abantu babiri barimo kugenda bazitunganya, aha ngaha ni aho bakirira abantu bagize ibibazo bikomeye ndetse abantu ubuzima bwabo buri mu kaga bakabakira ku buryo bwihuse.

Umuganga uhagaze ari kureba muri telefone yambaye n'ikanzu y'akazi, hepfo hicaye abagore babiri b'abakecuru baricaye bategereje guhabwa serivisi ndetse hino hariho icyapa kigaragaza ko ari ibitaro by'ibanze cyangwa se ivuriro ry'ibanze rya Mpushi.

Abantu batandukanye bicaye ku bitanda byo kwa muganga, harimo bamwe barmbye cyane basa n'abihebye, hariho n'abandi bantu babarwaje ndetse n'ibindi bintu birimo ibikoresho byabo ndetse hasi hateye sima.

Igitanda cyo kwa muganga ndetse kiri mu cyumba kimeze neza, ni bya byumba by'umwihariko, aho hashyirwa umurwayi ufite ikibazo gikomeye mu gihe ari kwitabwaho na muganga, mu buryo bwihariye, aha ngaha umuntu yazanywe, aba ari kumwe na muganga wenyine, areba ikibazo umuntu afite.

Mu bitaro aho hari inzira abantu bagenda banyuramo harasakaye ku buryo haba mu gihe cy'izuba cyangwa imvura ugenda ucamo umeze neza cyane. Ahangaha niho umuntu agenda anyura mu gihe agana mu bice bigiye bitandukanye bitewe na serivisi agiye gusaba, kuko kwa muganga buri gice cyose kigira ibice niba hari ahamaso, aho ababyeyi babyarira ndetse n'ahandi hantu hari mu bice bigiye bitandukanye, hano rero ni inzira ugenda unyuramo bitewe n'aho ugiye.

Umugabo uhagaze urimo kugenda atanga ikiganiro, ni abantu bateze amatwi, arimo kugenda basobanurira serivisi zigiye zitandukanye, zirimo kuyikingiza ndetse no guhabwa ibinini, ahagabo arimo kugenda abasobanurira bameze nk'abajyanama b'ubuzima.

Imbangukiragutabara y'umuryango wa red cross cyangwa se croix rouge, ifasha gutabara imbabare cyane cyane ahantu habaye impanuka, zikunze kuba ziri ahantu habereye umupira cyangwa se ibindi bikorwa byahuje abantu benshi, byifashishwa mu gutabara abantu bagize ibyago.

Abantu bingeri nyinshi bakoranyeho barimo kugenda baganira, imbere hariho babiri bafite mudasobwa barimo kugenda babaganiriza nibo bayoboye ibiganiro biri kubera hano kuko ni nabo bicaye ahantu hari ameza bicaye imbere yabandi bose hanyuma abandi bicaye babateze amatwi.

Umugabo w'umuganga ndetse n'umugore, barimo kugenda baganira, bafite utwatsi tumeze nk'imiti, bari kuri rubine, barimo kugenda boza, barimo kuganira baseka ndetse uyu mugabo ni igikara ndetse ku rundi ruhande hariho n'umuganga, wambaye agakomo.

Abantu baje kwivuza abenshi bafite amafishi bagiye bandikaho imyirondoro yabo ndetse n'ibiro bagiye babapima, hariho umugabo urimo kugenda ayakusanya agenda ahamagara umwe kuri umwe, aha ngaha ni mu isuzumiro rya muganga, aho ngaho arimo kugenda abasuzuma ibibazo bafite.

Ivuriro ririmo abantu barwaye, abenshi bararimbye ndetse umwe muri bo uri ku ruhande barimo kugenda bamuvura, aragaragaza ukuboko bateyeyo serumo, ubu ndetse uyu muganga arimo agenda abaza buri murwayi ikibazo afite, uko amerewe, n'aho bigeze kugira amenye icyo amufasha.

Abantu bitabiriye ku ivuriro, ryiganjemo abagore ndetse n'abagabo bagera kuri batatu, abenshi muri bo bambara udupfukamunwa tw'umukara ndetse na twatundi tugezweho twiza, inyuma yabo hari n'abandi bantu bicaye bategereje, harimo n'umugore uhetse umwana.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'imbangukiragutabara barimo kugenda baganira no gufata agafoto k'urwibutso ndetse uyu muntu uri hagati yambaye akagofero nka twa tundi abamansere bambara bano baba mu ba katolike ndetse barimo kugenda bamutungaho agatoki.

Inzobere mu buvuzi zambaye imyenda igiye itandukanye, bipfutse ahantu hose biragaragara ko, ari cya gihe haba hateye icyorezo. Muri iki cyumba kandi harimo n'abarwayi baryamye ku bitanda, ndetse buri gitanda kigiye gitandukanye n'ikindi bitandukanwa na rido y'ubururu.

Abaforomo n'abaforomokazi bari kwa muganga ndetse baricaye nta barwayi bahari gusa hejuru hamanitseho umunzani, yayindi ikoreshwa mu gupima abana igihe bari kureba ibiro bafite cyangwa baje kwikingiza, ni ukuvunga ngo bashobora gutanga ubufasha bw'ibanze, aha ngaha ni mu ivuriro ryarindi riba mu Murenge cyangwa se ku Kagari.

Igitanda cyo kwa muganga gifite amapine, bituma umuntu aba ashobora kukijyana mu cyerekezo ashakamo, hari n'intebe muganga yicaraho igihe ari gutanga ubufasha ku murwayi uryamye hano ndetse hari n'ikindi gikoresho, umurwaye ashobora kubikamo ibye.

Abaganga batandukanye barimo kugira inama abantu baje kwivuza, bahagaze imbere ndetse ahantu bari hari n'umuntu ufite ubumuga bw'ingingo cyangwa sebw'amaguru kuko yicaye mu kagare, arimo kugenda atanga inama ku rubyiruko, ku bagabo ndetse no ku bagore bateraniye hano.

Umuforomokazi uri kwa muganga, arimo kugenda yandika imiti, ku ruhande hari y'amoko y'imiti igitandukanye ndetse hari n'amafishi agiye atandukanye ndetse ku ruhande hari abarwayi bicaye ku ntebe, bategereje serivisi bagiye guhabwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga aho basuzumire indwara n'aho bakore ubushakashatsi harimo abaganga bakeye barimo kugenda bareba ibintu muri mudasobwa bigiye bitandukanye, ni icyumba kiza kirimo amashanyarazi ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Agacupa karimo amaraso aha ngaha ni kwakundi kwa muganga baba bagiye bafata amaraso y'abantu bagiye batandukanye kugira ngo bayapime barebe uburwayi umuntu ashobora kuba bafite cyane cyane babikora mu gihe barimo gupima icyorezo cya sida bareba ko abantu batanduye.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, ibi ngibi biboneka aho bakorera ubushakashatsi cyangwa se muri laboratwari aho umuganga aba arimo kugenda asuzuma indwara runaka kugira ngo bamenye icyabaye, igihe bari gukora ubushakashatsi bifashisha bino bikoresho.

Ivuriro aho abantu barimo kugenda bakora ubushakashatsi, barimo kugenda bareba muri bya byuma bita mikorosikopi, yifashishwa mu kureba utuntu duto cyane umuntu ada ashobora kubonesha ijisho, akenshi twifashishwa kugira ngo barebe ibizamini byagiye bifatwa ku bantu, barebe niba birimo mikorobe.

Abanyeshuri barimo kwa muganga ndetse muri bya byumba bikoremo ubushakashatsi, barimo kugenda basuzuma abafite udukoresho dukunze kuba turi muri laboratwari, cyangwa se aho bafatira ibizamini bakanabisuzuma. Ni abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuganga, kuko bambaye amashati yambarwa n'abantu bakora kwa muganga.

Ubutumwa bwa minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ndetse hamwe n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC, gishishikariza abantu kwirinda indwara ya malariya, uryama mu nzitiramibu ikoranye umuti, ndetse kandi barimo gushishikariza gusiba ibinogo bishobora kwarikamo imibu.

Umumama uteruyegana akana kacyiri gatoya, bigaragara ko kakiri gatoya, gashobora kuba kavutse mu minsi mikeya, arimo kugenda konsa, ari nako agenda akareba, arimo kureba hejuru ndetse akana ke, akambitse ingofero ndetse nanone agafatiye mu ngobyi.

Umubyeyi wazanye umwana kumukingiza. Barimo kumuhereza agatonyange, cyangwa se twa tundi dutanga vitaminini, tuba turyohereye. Abana batwita utubombo. Umwana agomba guhabwa inkingo zose, kugira ngo azakure neza.

Umugabo urimo kwigisha abana mwirerero, arimo kugenda abafasha, abahereza icyo kunywa, arimo kubahereza igikoma, bamwe bashoboye kwinywesha, abandi arimo kugenda abanywesha, aha ngaha biba bisaba umuntu wihangana n'umuntu ufite ubunararibonye ku buryo aha ngaha umwana ashobora kurira, ukaba ushobora kuba wamuhoza.

Abagore benshi bakoranyeho bicaye hagati rwagati ndetse mu mpande hakikijwe abaganga, abaforomo n'abaforomokazi, barimo kugenda babahereza inama zigiye zitandukanye ashobora kuba ari iz'imyororokere, kwita ku rugo ndetse no kurinda abana babo kugwingira ndetse no gukurikiza neza abana.

Abagore bafite abana mu ntoki ndetse hari n'umuganga urimo kugenda bitaho. Baje gukingiza batonze umurongo. Aha ngaha bazanye abana babo kugira ngo bahabwe inkingo zigiye zitandukanye. Bari kugenda bafata umwana, muganga yarangiza akamutera urushinge.

Umugore n'umugabo bateruye abana, aba bana bashobora kuba ari impanga, ndetse umugore arimo guseka umugabo nawe arimo guseka. Aba bana kandi bambaye ingofero zisa ndetse n'imyenda isa, n'amasogisi asa.

Abana b'abanyeshuri bakiri bato buzuye mu kibuga, barimo kugenda bakina, biragaragara ko ari mu gihe cyo kuruhuka, cyagiyehe nko hagati mu masomo cyangwa se nyuma yo kurya barimo kugenda bakina, imikino igiye itandukanye ndetse n'abarimu babo, ni mu gihe cy'izuba ndetse ikirere kirasa neza.

Umubyeyi wazanye umwana kumukingira barimo kugenda bamutera inshinge, ni kwa kundi bategeka ababyeyi ndetse n'abagabo kugira ngo bazane abana kwa muganga cyangwa se ku bajyanama b'ubuzima, babatere inshinge babapima cyangwa se babatera inkingo, imbasa, agakwega, akaniga n'izindi.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye hamwe higanjemo abafite imitaka mu gihe cy'izuba abenshi ni abagore ariko bambaye n'amajiri ya yandi y'abajyanama b'ubuzima, aha ngaha bamaze gusoza inama ariko banacyicaye barimo kureba ibyo umuyobozi wabo ababwira.

Abantu bari mu nama, higanjemo abakozi b'ikigo cyo mu Rwanda, gishinzwe ubuzima, bari mu nama ndetse imbere hatatse indabo, bari ahantu hari itente cyangwa se ihema, barimo kugenda baganira, batanga ubutumwa bugiye butandukanye, babuha abaturage.

Ubukangurambaga bugamije kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse bavuga ko ugomba kubaho neza wita ku buzima bwo mu mutwe. Ni ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe ndetse bagaragaza ko ubuzima bwo mu mutwe, ari isoko yo kubaho neza. Yabaye tariki eshatu z'ukwa gatanu bibiri na makumyabiri na gatatu.

Ubutumwa bugenewe abantu bose bubashishikariza kugira ubuzima bwiza cyane cyane mu mutwe, ariho bababwira bati baho neza wite ku buzima bwo mu mutwe kandi bababwira ko ubuzima bwiza mu mutwe ni uburenganzira bwa buri wese, ahangaha bashishikariza abantu bose kuba bakwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse kandi ari inshingano za buri wese.

Ivuriro riherereye mu karere ka Nyagatare ry'uwitwa Jacques, aho batanga ubufasha bw'ibanze ku buzima ndetse na nimero ushobora kubahamagaraho mu gihe ubakeneye, arizo zeru karindwi umunani, cumi na gatanu, kane karindwi kane, gatanu kabiri.

Ivuriro ry'amatungo aho umuntu ashobora kuza akaka imiti igiye itandukanye. Yiganjemo iyo kuvura amatungo cyangwa se iyo gukoreshwa mu buhinzi. Imwe batera udukoko ndetse aha ngaha wasanga na muganga w'amatungo aka kuvurira.

Aho bacururiza imiti, aho ahangaha bagenda bagufasha mu gihe ushaka imiti y'amatungo cyangwa se iy'abantu basanzwe, ahangaha bakorana na RSSB ndetse RAMA n'ubundi bwishingizijye butandukanye.

Akabati karimo imiti igi itandukanye, harimo imwe bajya batera inka ndetse iyi ibyiganjemo iy'amatungo, aha ngaha niho umuntu ashobora kujya kugura imiti cyangwa se kuhasanga umuganga w'amatungo, akaza kukuvurira inka yarwaye.

Abagore babiri bari mu bubiko bw'imiti, umwe kugenda yereka mugenzi we imiti igiye itandukanye, arimo kugenda amwereka iyo ashobora kugura bitewe n'ikibazo itungo rye rifite cyangwa se niba ariwe urwaye, kuko ububiko bw'imiti buba butandukanye, hari ububa bucuruza imiti y'inyamaswa cyangwa se amatungo ndetse n'imiti iterwa abantu.

Umugabo uri mu iduka bacururizamo imiti, aha ngaha uraza ukahagura imiti igiye itandukanye yiganjemo iyo guha amatungo n'iyo gutera mu bimera, uyu nguyu kandi ni muganga w'amatungo akugira inama kuri serivisi zigiye zitandukanye.

Amoko y'imitege atandukanye, ari hasi ndetse agizwe n'imiti, buri bwoko buri mu gapaki, bitewe n'indwara ishobora kuba kavura kuko iyo ugiye kwa muganga cyangwa se muri farumasi, baguha umuti bitewe n'indwara urwaye cyangwa ikigero iyi ndwara igezeho.

Udukoresho twifashishwa n'abaganga cyangwa se abandi bantu bavura amatungo kugira ngo birinde kuba bakandura. Twitwa uturindantoki cyangwa se ga .Turasa umweru ndetse biteganyijwe ko iyo udukoresheje rimwe utagomba kongera kudukoresha.

Amoko y'imiti yagiye atandukanye, n' ibinini bigiye birambitse hasi harimo bimwe bimeze nka prostanmour ibindi na byo bipakiye mudupakitu dutandukanye tumeze nk'kinini cya taramusine ndetsen' ibingibi bishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye ,cyane cyane bibonekamo mu mamafaruromasi yo kwa muganga.

Utwenda twabugenewe mu kunoza isuku, tuboneka cyane cyane kwa muganga. Batwita uturindantoki cyangwa se ga. Turasa neza mu ibara ry'umweru ndetse umuganga atwambara igihe ari kuvura, kugira ngo ataza kwiyanduza cyangwa se amaraso y'uwo muntu wanduye indwara runaka akaba ashobora kwivanga n'aye.

lduka ricuruza imiti igitandukanye, harimo iy'amatungo gusa hari n'ama Pharmacy aba arimo imiti umuntu ashobora kwivuza, kuko hari igihe ujya kwa muganga baka guhereza urupapuro rwanditseho imiti ,ukajya kuyigura ku maduka amwe n'amwe ameze nk'aya.

Abakobwa babiri b'abangavu ,barimo kugenda bashishikariza abantu gukoresha serivisi zijyanye n'ubuzima, bababwira uburyo bashobora kwitaho birinda icyorezo cya sida. Ahangaha barimo babereka uburyo bashobora gukoresha agakingirizo neza mu gihe bananiwe kwifata.

Urubyiruko rwakoranye hamwe rwiganjemo aba Croix Rouge, barimo kugenda bamamaza serivisi zijyanye n'ubuzima ku cyorezo runaka ndetse bamwe barahagaze abandi baricaye, ab'imbere ni bo bicaye abandi bari inyuma barahagaze, barimo kugenda bazenguruka ibice bigiye bitandukanye by'Igihugu bagenda batanga ubutumwa.

Umuntu waje kwaka serivisi zijyanye n'ubuzima barimo kumukingira barimo kubanza kumupima yatanze urutoki bwa buryo bakoresha mu gihe bari gusuzuma icyorezo cya sida, aho bagutera agashinge ku rutoki barangiza bagasuzuma amaraso yawe.

Abagabo babiri aho bari kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga iti "bishishikarize urubyiruko kwitabira serivisi zo ku cyumba cy'urubyiruko." Aha ngaha umutumirwa yitwa Ephron Nzayisenga, ndetse kandi n'umutumira yitwa Valens Niyonkuru ukorera Radio dix.

Urubyiruko rwakoranyeho aho barimo kugenda bamamaza serivisi runaka, barimo kugenda bashishikariza urubyiruko kuko ari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ibiyobyabwenge wabaye itariki makumyabiri n'esheshatu zukwa gatandatu bibiri na cumi na gatatu.

Umugabo uhagaze urimo kuvuga imbwirwaruhame afite ubwanwa bukeya ndetse yambaye akarabosite k'umukara ndetse yanatebeje, yambaye utwumvirizo cyangwa se ekoteri ndetse ku ruhande hariho intebe ziticayemo abantu, no kugenda atanga ubufasha cyangwa se kugenda ashishikariza abantu gukoresha agakingirizo.

Ikiganiro ku nsanganyamatsiko igira iti: "Dushishikarize urubyiruko kwitabira serivisi zo ku cyumba cy'urubyiruko", aho umutumirwa ari bo: Ephron Nzayisenga uhagarariye ikigo cya CHB ndetse utumira akaba yitwa Valence Niyonkuru kuri Radiyo 10.

Umugabo barimo kwandika igikoresho cyabugenewe gipima uko amaraso agenda atembera mu mubiri, barimo kugenda bamupima umuvuduko w'amaraso ye bareba uko bimeze, ni muganga arimo kugenda areba ndetse n'uyu bari arimo gupima afite agatelefone mu ntoki arimo kugenda yitegereza ibyo muganga ari gukora, ku ruhande kandi hariho umufasha wa muganga urimo kugenda yandika ibyo muganga amaze kubona.

Ku ivomero yayandi agezweho ya wasake, aho abantu bateraniye baje kuvoma. Hariho ibijerikani byinshi, ndetse n'umuntu urimo kubavomesha. Yambaye imyenda yabugenewe, ijire igaragara ko ariwe uyoboye hano, harimo kugenda avomerara abantu ari nako bamwishyura.

Abagore babiri umwari kugenda akaba agaragariza abantu uburyo bashobora gukuramo isuku, ni kuri ya migezi ikorerwa mu ngo aho umuntushaka gushyira amazi mu ndobo, indoba akayipfumura agashyiraho akarubine umuntu akagenda afungura duke duke, ndetse hasi agashyiraho akandi kabasi kamenekamo amazi amaze gukarabwa ndetse amazi aba amaze kwandura.

Isoko ririmo imiti igiye itandukanye ni ukuvyga ngo aha ngaha nta biribwa bihari ahubwo harimo amoko y'imiti agiye atandukanye, iri mu dufuka aha ngaha ushobora kuza kuhagurira bitewe n'indwara urwaye warangiza ukajya kwivura.

Icupa ririmo umuti wa kinyarwanda rigaragara ko ukozwe mu byatsi ni umuravumba, iki kimera gikunze kuboneka mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu kandi kivura indwara zigiye zitandukanye harimo inkorora, anjine, kubabara umutwe ndetse no guhitwa, ibi byose uyu muravumba urabivura.

Imbuto z'amoko atandukanye ndetse hari n'imiti n'ibintu bimeze nk'imizi hari n'agasekuro umuntu yifashisha asekura utuntu dutoya cyane, ndetse ku ruhande hariho n'utundi dupfunyika twitezwe ko tugiye gukuramo imiti gakondo.

Umugabo barimo kugenda bamuvura ibi ngibi babyita masaje, barimo kugenda bamasa ikirenge ke kugira ngo imitsi ye igororoke ndetse n'imyakura imere neza, barimo kugenda bamufasha ari na ko bamuvura imihandayiko.

Umugabo umeze nk'umupfumu afite udukoresho twinshi twa gakondo twiganjemo uducuma, impu ndetse n'utundi tubumbano, yambaye imyenda y'inshwabari igizwee n'impu ndetse yambaye n'amasaro mu majosi afite n'igikamba ndetse n'inkono y'itabi arimo kugenda anywa.

Ababyeyi bagiye batandukanye, abenshi muri bo bateruye abana abandi na bo bari kugenda babonsa. Baje guhabwa ubutabazi bw'ibanze ku bafite abana barwaye ndetse kandi ahangaha barimo no kugirwa inama kuburyo bwo kurinda umwana kugwingira ndetse no kumukingiza.

Ivuriro ritanga serivisi z'ibanze ku buzima ndetse ryanditseho ko ari ivuriro gira ubuzima ririho abantu benshi bategereje baje kwaka serivisi zigiye zitandukanye ndetse bigaragara ko ahangaha bari guhabwa amahugurwa kuko hakoraniye abantu benshi abana, abagabo, abagore, ndetse n'abandi benshi harimo n'ibyapa bigaragaza ko barimo kubigisha kuri serivisi zo gukoresha agakingirizo.

Umugore waje kwipimisha inda, muganga arimo kugenda amushiraho ikivumvirizo cya kindi gifotora kikamwereka uko umwana ameze mu mubiri, arimo kugenda yereka uyu muntu waje gupima ari nako na we areba kugira amenye umwana azabyara niba ari umuhungu cyangwa se umukobwa.

Ivuriro Girubuzima aho ushobora kuza bakakuvura indwara zigiye zitandukanye, ahangaha kandi hariho imbaga y'abantu benshi barimo kugenda bafata ifoto y'urwibutso, ni kwa kundi haba hamaze kuba inama, abangaba biganjemo abaganga, abaforomo n'abaforomokazi.

Ikigo nderabuzima ndetse aha ngaha ni aho bakirira abantu hano imbere hariho intebe y'igihe abakiriya cyangwa se abarwayi baje kwivuza baba ari benshi aho bategererereza, iki kigo nderabuzima kandi yisize irangi ry'ubururu ndetse gifite n'amabati y'ubururu.

Abantu bicaye mu ntebe baje gusaba serivisi, bicaye bakurikije uko bagiye baza, imbere yabo hahagaze abagore babiri, umwe yambaye ikarita mu ijosi ndetse hari n'undi wicaye. Bateze amatwi biganjemo cyane cyane abakecuru, bateze ibitambaro mu mutwe.

Umugore waje gusaba serivisi zo kwa muganga aricaye afite n'akana mu ntoki, yicaye ku gitanda, bigaragara ko arwaje umwana ategereje ko muganga aza kumuha imiti cyangwa se akamuvura, arimo kugenda yitegereza akana ke kuko amaze igihe gitoya akabyaye.

Umutegarugori ufite igikapu mu ntoki, arimo kugenda atera intambwe gake gake, yambaye na furari mu ijosi, inyuma hariho ikigo cyanditseho, gira ubuzima, aha ngaha ni aho batangira serivisi z'ubuzima.

Abagabo babiri bafite umurasire wa rutura, ni bwa buryo bwo gukoresha amashanyarazi cyangwa se ingufu z'izuba. Bafashe iyi pano, bagiye kuyishyira hejuru ku mabati kugira ngo ahantu bajye babona amashanyarazi bacana.

Abagabo bagera kuri bane ndetse n'umugore uri hagati, barimo kugenda batambuka ni abayobozi bakomeye barimo barava ku kigo nderabuzima, bamwe bari ku matelefone abandi bayafite mu ntoki, aha ngaha biragaragara ko ari inzego zikora mu buzima kuko iri vuriro bavuyeho ryitwa Girubuzima, bavuye gutanga serivisi zigiye zitandukanye.

Umugabo waje ku kigo nderabuzima barimo kugenda bamupima, aryamye ku gatebe ndetse umuganga arimo kugenda arambura akaboko ke, kugira ngo arebe ko yamushyiraho cya cyuma gipima, uko amaraso arimo kugenda atebera mu mubiri ndetse no kureba ko adafite umuvuduko w'amaraso.

Umwana w'umunyeshuri urimo gukaraba intoki yifashishije bwa buryo bwa gakondo ibyo bita kandagira ukarabe, arimo kugenda akandagira yangiza agakaraba, amazi ari kuva mu ijerekani akajya mu ibasi yarangiza aya yakoreshejwe bakayamena.

Umugore uhagaze rwagati mu bantu, arimo kugenda atanga ubutumwa bugiye butandukanye ndetse ahangaha ni ku ivuriro Girubuzima .Aha ngaha hariho n'ibyapa bigaragaza agakingirizo gakoreshwa mu kwirinda Sida.

Abagore benshi bateraniye ahantu, barimo kugenda baribarebanaho, bari kwitegereza imbere, biragaragara ko baje mu nama, barahagaze nta n'umwe wicaye, barimo kwitegereza ku kigo nderabuzima bareba uko bahabwa serivisiye, zigiye zitandukanye.

Ivuriro Gira ubuzima aho hano bakira abarwayi bagiye batandukanye aho mu marembo hari aho winjira ukabanza ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune ndetse kandi hakabaho intebe abantu bategerezaho mu gihe bagiye guhabwa serivise.

Abantu benshi bari kujya mu bice bigiye bitandukanye, aho barimo kugenda babapima kugira ngo barebe ko batarwaye icyorezo, ibi byakorwaga igihe babaga barimo gupima icyorezo cya Corona Virusi, bareba umuriro umuntu afite.